Abantu batatu batandukanye harimo umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ikote ry'ubururu bwijimye, wambayemo ishati ifite ibara rijya gusa umweru na karuvati y'umutuku, ari kumwe n'undi mugabo uri hagati wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'umukobwa wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara, ndetse wambaye agapfukamunwa, imbere yiwe hari imeza y'umweru iriho mudasobwa ndetse bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi.